Umwana w'umuhungu, ubusutamye imbere y'ivomo rusange, yambaye ibirenge, ndetse yambaye ikabutura n'umupira, afashe indobo n'amaboko ye yombi, ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umugabo wambaye ipantaro n'umupira, ndetse yambaye n'inkweto zifunze.

Umukobwa uhagaze hagati y'abantu batandatu wambaye agapira gatukura, ndetse yambaye n'agapfukamunwa yambaye n'ingofero y'umweru, ari guha ikinini umwana wicaye ndetse ukiri mutoya inyuma yabo hari inzu ndetse ifunguye n'umuryango.

Umugore uri kuvoma amazi ku ivomero rusange akoresheje indobo y'umukara, akikiye umwana ndetse akenyeye igitenge, yambaye n'umupira w'amaboko magufi, hirya ye hari ibiti bigandaye.

Abana batandatu bambaye impuzankano, batatu bari ku ruhande rw'iburyo n'abandi batatu bari ku ruhande rw'ibumoso, umwana wegereye ikigega ku ruhande rw'ibumoso ari kuvoma amazi bamwe muri bo bari kunywa ndetse abandi bafashe ibikombe, inyuma yabo hari ikigega cya kabiri ndetse hari n'amabati ashaje.

Umwana uri kunywesha amazi ibiganza ku ivomero rusange, umutwe we ukoze ku gihombo, ku ruhande rw'ibumoso hari intebe ya parastike, ndetse n'inyuma ye hahagaze abantu.

Umugabo uri gukaraba ibiganza kuri kandagira ukarabe yambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara yambaye n'inkweto z'umukara, inyuma ye hari inzu ndetse ku ruhande rwe rw'iburyo hari ibiti bitandukanye.

Umunyeshuri wambaye ijipo ndetse n'ishati ari gukaraba kuri kandagira ukarabe ndetse impande ye hari igiti kigandaye kandi hari n'abanyeshuri bari iruhande rwe.

Abantu benshi bahagaze ndetse b'ingeri zitandukanye, bahagaze munsi y'igiti kigandaye, imbere yabo hari umugabo wicaye ku ntebe wambaye agapira gatukura, inyuma arenzaho ijire, kuruhande rw'iburyo, hahagaze umugabo ushinzwe umutekano.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima bahagaze bambaye impuzangano ndetse hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati, ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umugabo wambaye ikaburiya y'umweru y'amaboko maremare.

Umuzungu uhagaze w'umugore ndetse yambaye n'umupira w'amaboko magufi, yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse n'ikiganza cye gifashe ku gatuza naho ikiganza cy'iburyo gifashe indangururamajwi ndetse ari kureba ku ruhande rw'ibumoso.

Umugore uhagaze uri gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hicaye abantu, ku ruhande rwe rw'iburyo hicaye abantu ndetse n'imbere ye hicaye abantu, yambaye ikanzu y'umweru ndetse yambaye n'ikote ry'umukara afite n'imisatsi.

Umugore uhagaze yikoreye ijerekani y'umuhondo ayitambitse ndetse yapfundikije umufuniko utukura, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse ateze n'igitambaro yikoreyeho ibuni, imbere ye hari abana batandukanye.

Umugore wicaye ku ntebe uri guseka wambaye iribaya ndetse akikiye umwana uri guhabwa imiti n'umugore wambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru ndetse ufite n'iherena ku gutwi kw'iburyo, inyuma yabo hari urugi rw'icyatsi.

Abantu benshi bambaye impuzano bari gutera imboga mu karima k'igikoni, ku ruhande rw'iburyo hari umupolisi ndetse inyuma yabo hari ibigega.

Umwana uri gukaraba intoki ku ivomero rusange, ari guseka ndetse ari kureba inyuma, yambaye imyambaro iri mu ibara ry'umutuku ndetse akaboko k'ibumoso karahinye kageze hejuru.

Umukobwa ufashe ibuni y'umuhondo iri kuvomerwa ku ivomo rusange, yambaye ijipo igeze mu mavi ndetse yambaye n'agapira k'amaboko magufi, ku ruhande rw'ibumoso hari umwana wambaye agapira k'ibara ritukura.

Umwana uri kunywa amazi ku ivomero rusange akoresheje ibiganza, munsi yabyo hari indobo iri kumenekamo amazi yaciye mu biganza bye, yambaye ikabutura y'umutuku n'ishati ifite amabara ya gisirikare ndetse yambaye n'inkweto zifunguye hirya ye hari ibyatsi n'inyubako.

Abana babiri b'abahungu basutomye ku ivomo rusange, ndetse ibiganza byabo babiteze munsi y'igihomba kiri kumanukamo amazi, umwana uri ku ruhande rw'iburyo yambaye agapira gatukura, n'aho uri kuru ruhande rw'ibumoso, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse isa n'ipantaro.

Umusore usutamye wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, kuruhande rwe rw'ibumoso afashe akana gahagaze ndetse gatoya kambaye umupira usa nuwo yambaye kambaye ni'ipantaro y'ubururu n'amagisi.

Umwana w'umukobwa uhagaze ndetse uri guseka, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe n'ibiganza bye, munsi hari akabase, kari kugwamo amazi, inyuma ye hari igikuta cy'amatafari ahiye, ndetse no hirya ye, hari ibindi bikuta byubatse.

Umugore ukenyeye igitenge, wambaye ishati y'amaboko magufi, uteze igitambaro, yikoreye indobo y'umutuku ndetse afatishije akaboko ke k'ibumoso, akaboko ke k'iburyo gateruye indobo y'umuhondo.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru inyuma y'indi myenda, yicaye imbere y'abagore batatu nabo bicaye ku ntebe ndetse bicaranye, ari gufasha umugore umwegereye wambaye ishati itukura y'amaboko maremare, hirya hari ubusitani.

Abana babiri bari ku mugezi, umwana uri ku ruhande rw'iburyo ari kuvoma amazi ndetse ari gukomera mu ndobo z'umweru, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse karimo n'uburongo butambitse, umwana uri ku ruhande rw'iburyo ari kureba imbere ndetse na we afashe indobo y'umweru.

Umugore n'umwana w'umuhungu, umugore ahagaze ku ruhande rw'ibumoso yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi ndetse akenyeye n'igitenge, yambaye n'agapfukanwa, ari gukarabya umwana ibiganza, bombi ibiganza byabo bisizeho isabune, umwana yambaye impuzankano ndetse inyuma yaho hari ibiti.

Umuganga w'umugore wicaye wambaye imyenda y'akazi afite n'ibisuko by'umukara ku mutwe, ari gukingira umugabo uri ku ruhande rw'iburyo, ari kumukingira ku kaboko k'ibumoso ndetse inyuma yabo hari abantu babiri.

Itsinda ry'abantu begeranye ndetse bari ku murongo, batandatu nibo bari imbere, ndetse bicaye ku ntebe ku ruhande, rw'ibumoso hahagaze umugabo wambaye ijire, ndetse yambayemo n'agapira mo imbere gapika.

Abana batatu bari gukaraba ibiganza ku mugezi ndetse bose bari kureba imbere, ku ruhande rw'iburyo hari igikuta ndetse kigufi, ku ruhande rw'ibumoso hari igiti gikuze ndetse kigandaye, munsi yacyo hari ibyatsi.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi uri gutera umubyeyi urukingo, wambaye umupira w'umukara n'agapfukamunwa hamwe n'ingofero, inyuma yabo hari irindi tsinda ry'abaganga bari gufasha abandi bantu.

Umugore uhagaze imbere y'abantu benshi ukikiye umwana ndetse afashe n'ifishi mu biganza bye, yambaye ibitenge bisa n'igitenge ateze mu mutwe, inyuma ye hari abantu benshi batandukanye bari mu bihande bibiri ndetse harimo n'abahagaze bakeya.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe mu cyumba cy'ishuri ndetse bari guseka imbere yabo hari amafunguro ari ku masahane y'ibyuma, inyuma yaho hari ikibaho bigiraho hirya yabo ku ruhande rw'iburyo hari abandi banyeshuri.

Itsinda rya'banyeshuri bambaye impuzankano bishimye, bamwe muri bo bazamuha ibiganza, inyuma yabo hari irembo rifunguye ndetse risize amarangi y'ubururu rihagazemo abantu batanu, iruhande rw'ibumoso hahagaze abana babiri babitaje.

Abana batoya bari kuvoma amazi ku ivomero rusange, bari kuvomera mu tujerekani dutoya, imbere yabo hari umukobwa uri kubafasha kugira ngo amazi aze, inyuma yabo hari ibyatsi bitandukanye, ndetse hari n'ibiti bigandaye by'ubwoko butandukanye, hagati mu muhanda hari imodoka y'umweru.

Agatanda kubatse hanze ku zuba kubakishije ibiti kanitseho amasahane ndetse n'ibikombe, hirya yako hari insina nyinshi ndetse imbere yako hari uruzitiro ruzitije imiyenzi.

Abana bane b'abahungu batandukanye ndetse bakikijwe ivomo rusange, amazi ari kumeneka imbere yayo hari ijerekani y'umuhondo itari kuryamo amazi, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi ndetse hari n'ibiti bitandukanye.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano ndetse b'ingeri zitandukanye, barizihiwe imbere yabo hari umusaza wambaye ikote ry'umukara ndetse inyuma yabo hari inyubako isize amarange atandukanye, ku ruhande rw'iburyo hari ibiti bigandaye.

Umunyeshuri w'umukobwa wunamye uteze ibiganza bye ku ivomero, yambaye inkweto zifunguye, inyuma ye ndetse no ku ruhande rw'ibumoso hari amashuri, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'indabo n'ibiti.

Umugore wunamye, wambaye itaburiya y'umweru ndetse asutse ibisuko ku mutwe, ari guha umuti umwana ukiri muto, ukikiwe n'umubyeyi wicaye ku ntebe, inyuma yabo hari urugi rusize irange ry'icyatsi.

Itsinda ry'abantu benshi ndetse b'ingeri zitandukanye bahagaze, umurongo w'imbere uriho abantu benshi ndetse ku ruhande rw'iburyo hari ibendera ry'u Rwanda, umugore uri imbere yambaye ikanzu ndetse inyuma yambaye ikote ry'umukara, naho umugore uri ku ruhande rw'ibumoso yambaye ikanzu y'ibara rimwe.

Umugore ukenyeye igitenge, ndetse wambaye n'isengeri usutamye, uri kogereza umwana mu ibase, imbere y'ivomo rusange, inyuma ye hari abantu batandukanye batatu, babiri baregeranye bari ku ruhande rw'iburyo, ndetse ni umugore n'umwana muto, kuhande rw'ibumoso, hari umwana na we ufashe indobo, uri kuvoma, inyuma yabo hari inyubako.

Abana bane bakikije ivomo rusange, umwana umwe niwe uri kugerageza kuzana amazi ndetse imbere yayo hari ijerekani iri imbere y'amazi ari kumeneka, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti bitandukanye.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze ndetse begeranye, ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse inyuma yaho arenzaho ijire, ku ruhande rw'iburyo hahagaze umugore wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko magufi yambaye n'amadarubindi.

Abasore babiri bahagaze bateganye ndetse bari kurebana hagati yabo basizemo intera ntoya, uri kuruhande rw'iburyo yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi ndetse uri kuruhande rw'ibumoso yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse ahetse n'igikapu.

Itsinda ry'abantu bahagaze ndetse begeranye b'ingeri zitandukanye, inyuma yabo hari inyubako y'amatafari ahiye ndetse ifite n'inzugi zifite n'ibirahure, yanditseho amagambo mu rurimi rw'Igifaransa.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima bahagaze ndetse bizihiwe, bambaye impuzankano, imbere yabo hari umugabo w'umuzungu wambaye ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari inyubako isize amarangi, ndetse ku ruhande rw'iburyo hari ibiti bigandaye.

Abaganga batatu bahagaze ndetse bambaye udupfukamunwa, babiri bari ku ruhande rw'iburyo bambaye udupfukamunwa dusa ndetse uri ku ruhande rw'ibumoso yambaye agapfukamunwa k'umukara, uri ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso bafashe ibikarito mu ntoki bisa ndetse uri hagati yambaye itaburiya y'umweru.

Abagore batatu uri imbere ku ruhande rw'ibumoso afashe ijerekani ari kuvoma amazi ku ivomero rusange ndetse hateretse n'andi majerekani inyuma hari insina n'ibiti.

Abanyeshuri benshi bahagaze ndetse bari guseka bamwe muri bo bazamuye ibiganza kandi bose bambaye impuzankano inyuma yabo hari abantu batanu bahagaze mu irembo ndetse bakuru ku ruhande rw'ibumoso hari abanyeshuri babiri bategeranye na bagenzi babo.

Umwana w'umuhungu uri gukaraba ibiganza ku ivomero rusange, ari kureba imbere ndetse yambaye ishati y'amaboko magufi n'ikabutura, ku ruhande rw'ibumoso hari indobo ndetse inyuma ye hari ibiti byinshi.

Umuganga w'umugore wunamye ndetse yambaye itaburiya y'umweru, ari guha umwana umuti ukiri muto, uteruwe n'umubyeyi wicaye ku ntebe, inyuma yabo hari urugi rufunguye.

Uruhinja ruryamye ndetse rwambaye imyenda y'umweru, rufashwe n'abantu babiri batandukanye ndetse inyuma yabo hari abantu benshi bizihiwe, bamwe bari gufotora, abandi bahagaze bari kureba aho ruryamye.

Abanyeshuri batatu bari kuvoma amazi ku ivomo rusange, buri wese afite mugenzi we uri kumufasha kuvoma inyuma ye, imbere yabo hari indobo bari kuvomeramo ndetse z'umuhondo, umunyeshuri ku ruhande rw'iburyo imbere yayo akabuni gatoya.

Umugore wicaye ndetse ukukiye n'umwana, ateze igitenge mu mutwe gisa nk'ibitenge yambaye hasi, imbere ye hari muganga ufashe ku mwana ndetse yambaye itaburiya y'amaboko maremare, y'umweru ndetse yambaye na ga mu ntoki.

Abagore batanu bicaye ku ntebe barebana, batatu nibo bicaye ku ntebe za pulasitike z'umweru ndetse imbere ya bose hari ameza ariho impapuro zitandukanye ndetse z'umweru, hino y'ameza hari ibikapu by'umukara n'intebe ya pulasitike iticaweho.

Umugore uri kuvoma amazi ku ivomo rusange mu ijerekani y'umuhondo, yambaye igitenge ndetse yambaye n'umupira w'amaboko magufi kandi yambaye n'ingofero y'ubururu mu mutwe.

Abana babiri bicaye bari guseka bogoshe ku mutwe, umwana uri ku ruhande rw'iburyo ateye agatoki hejuru akoresheje akaboko k'iburyo, naho akaboko k'ibumoso ke gashikamirije ku meza, umwana uri ku ruhande rw'ibumoso, yambaye ishati y'amaboko maremare.

Umwana w'umuhungu uri gukaraba ibiganza ku ivomero rusange, ndetse ari kureba imbere yambaye ishati y'icyatsi y'amaboko magufi n'ikabutura, ku ruhande rw'iburyo hateretse indobo y'ubururu ndetse inyuma ye hari ibiti byinshi.

Abagore babiri bari ku ivomo rusange bateruranye indobo y'ubururu ndetse ku ruhande hari indi ndobo itari kuvoma, inyuma yabo hari abantu batatu, inyuma yabo bose hari inzu ndetse ku ruhande rw'iburyo hari ibiti bigandaye binini.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari kuvoma amazi ku ivomero rusange, ndetse bari kuvomera mu bikoresho bitandukanye, bamwe bafite indobo z'amabara atandukanye, abandi amajerekani, inyuma yabo hari ibiti bigandaye.

Umugore wicaye uri kwandikisha ikaramu kusahamu imuteretse ku bibero yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru ndetse yambaye n'agapfukawa ku ruhande rw'iburyo hicaye umusore wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu nyuma ya handitse amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Umugore uhagaze uri gutanga imbwirwaruhame imbere y'abantu bicaye, yambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare ndetse afashe indangururamajwi mu kaboko k'iburyo, asutse ibisuko by'umukara hirya ye hari ibiti byinshi bigandaye hari n'abantu babihagazemo.

Umugore wicaye ukikiye umwana utambaye hejuru, ikiganza cye cy'ibumoso gifashe mu mutwe w'umwana ndetse ateze igitambaro mu mutwe, ku ruhande rwe rw'iburyo hicaye umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, hirya yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'umweru, irimo utudomo tw'umukara, arunamye ari koza indobo y'umweru imbere ye hari izindi ndobo ebyiri, ari ku ivomo rusange inyuma ye hari ibiti bikuze ndetse n'indabo.

Amajerekani y'ubwoko butandukanye, atonze umurongo ku ivomo rusange, imbere yayo hari umukobwa uhagaze ndetse wambaye n'ijipo, ku ruhande rw'iburyo hahagaze abantu batandukanye ndetse harimo n'ufite ijerekani mu ntoki.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, ari gutera umwana urukingo ukikiwe n'umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe, ndetse inyuma yabo hari ameza hariho ibikarito.

Umugabo n'umugore bari kuvoma amazi mu majerekani atandukanye ku ivomo rusange, umugabo ari ku ruhande rw'iburyo naho umugore ari ku ruhande rw'ibumoso, hejuru yabo hari umugore ushikamirije amaboko ku ivomo rusange ndetse inyuma yabo hari ibiti byinshi bitandukanye ndetse bikuze.

Umukobwa urakaye wicaye ahinnye amavi ku musambi uzinze uri hasi inyuma y'igiti gifashe umunyururu uziritse akaguru ke k'iburyo, akenyeye igitenge ndetse yambara agapira k'amaboko magufi inyumaye hari ibiti byinshi.

Umugore urakaye wicaye wenyine ku ntebe iri mu nzu ndetse y'urubaho, akenye igitenge yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse yambaye n'inkweto zifunguye. Imbere ye hari umusambi ushashe hasi.

Umugore wicaye hasi wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse uteze n'igitambaro mu mutwe, yambaye n'ijipo. Akikiye umwana, ku ruhande rwe rw'iburyo hicaye undi mwana w'umuhungu imbere yabo hari intara iriho n'ingemeri.

Inyubako isize amarangi atandukanye ndetse ifite inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya by'umweru n'ibirahuri yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'indabo ndetse na pasiparume n'ibiti.

Umusore uri guseka ndetse ahengekeye umutwe ku ruhande rw'iburyo, afite ubwanwa kandi afite agasatsi gake ku mutwe, amenyo ye yo hejuru niyo agaragara n'aho ayo hasi ntagaragara, yambaye agapira k'ibara ry'umuhondo.

Umugabo wicaye ku gitambaro gishashe hasi, yifashe ku gahanga n'akaboko ke k'iburyo, akenyeye igitenge ndetse yambaye n'umupira w'amaboko magufi, amaguru ye araziritse kandi ahinye amavi, inyuma ye hari urukuta.

Umugabo muremure wambaye inkweto n'ipantaro by'umukara n'ishati y'umweru y'amaboko maremare na karuvati, ahagaze hagati y'abantu benshi bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufi. Ku ruhande rw'iburyo hari umukecuru wambaye ikote ndetse inyuma yabo hari inyubako.

Umukobwa uhagaze mu iduka ricuruza ibyo kurya, uri guseka ndetse ufite n'amenyo y'umweru, asutse ibisuko by'umukara ndetse yambaye n'ijire y'umuhondo, imbere yayo yambariyemo agapira gasa ubururu.

Umugabo ufite ubumuga bwo mu mutwe yambaye ingofero y'umukara ndetse yambaye nimyenda isa nabi yiziritseho ibintu byinshi, inyuma ye hari ikimoteri n'ibindi bikoresho byinshi bishaje bisa nabi.

Umukobwa wicaye yubitse umutwe, ibiganza bye byombi bifashe ku bisuko afite ku mutwe, ndetse by'umukara bifungiye hejuru, yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru, ndetse isura ye ntigaragara.

Umugore uri imbere y'inzu y'amatafari ahiye, akikiye umwana ndetse wambaye agapira k'amaboko maremare, uri guseka, utarera, uwo mugore yambaye imyenda y'umweru ndetse afite umusatsi w'umukara ku mutwe.

Umugabo uhagaze imbere ndetse uri kwigisha yandika yambaye agapfukamunwa yakamanuye, yambaye n'umupira w'amaboko magufi ari kwigisha abagore bicaye ku ntebe, ndetse z'ibiti bamwe muri bo bahetse abana ndetse bateze n'ibitambaro mu mutwe.

Umukobwa wicaye ku ntebe witangiye itama n'akabokoko k'iburyo, yambaye ishati itukura y'amaboko maremare ndetse yambaye n'ingofero ifite amabara ya gisirikare, ku ruhande rw'iburyo hicaye umukobwa wambaye agapira k'amaboko maremare, amufatishije akaboko k'iburyo ku rutugu.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze munsi y'inyubako, bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufi, hagati yabo hahagazemo umugabo wambaye ipantaro n'inkweto by'umukara, ndetse n'ishati y'umweru na karuvati, ku ruhande rw'iburyo hari umugore wambaye ikote y'amaboko maremare.

Umupolisi uhagaze hagati y'abantu umunani yambaye imyambaro y'akazi, ku ruhande rw'iburyo hari umukobwa wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'umweru w'amaboko maremare ndetse afite n'imisatsi y'umukara miremire, ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro by'umukara.

Umugore wicaye ku ntebe mu nzu uri guseka ndetse ahetse n'umwana kandi atekeye mu nzu mu isafuriya, kuruhande rwe rw'iburyo hari umwana uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse ufashe ku mwana.

Umugabo wicaye hasi yambaye ipine mu nda ndetse akaboko yagacishije hagati mu ipine kandi yambaye n'ikabutura n'isengeri, ku ruhande rw'ibumoso hari abagabo babiri bambaye inkweto z'umukara.

Umugabo wicaye hasi ukanuye amaso ndetse yambaye amapingu, yambaye agapira gatukura k'amaboko magufi ndetse yambaye n'ikabutura, inyuma hari abantu benshi batandukanye, ndetse hari n'ikiganza kiri kumushyiraho amafoto.

Umugore ufatiye isuka imbere icuritse yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'agapira imbere karimo uburongo butambitse, ateze igitambaro mu mutwe, yikoreye igitebo cyuzuyemo ibyatsi, inyuma ye hari inzu y'amategura.

Umucecuru wicaye ku ntebe ya kinyarwanda, ari guseka areba ku ruhande rw'iburyo, ari gushigisha mu isafuriya iri ku mashyiga, ku ruhande rwe hari umufuniko w'isafuriya n'agakombe k'icyatsi, inyuma ye hari inzu y'amatafari ahiye.

Umukobwa wicaye ari guseka ndetse ufite n'amenyo y'umweru, yambaye umukufi mu ijosi ndetse yambaye n'isengeri y'umukara, yambaye ipantaro ihinnye haguruka k'ibumoso, ndetse afite umusatsi mwinshi w'umukara yambaye n'amaherena ku gutwi.

Umugore wicaye ukikiye umwana yambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse arenzaho ikanzu y'isengeri, yambaye ingofero mu mutwe, ku ruhande rw'ibumoso hari umugore wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite icyo ari kumwereka.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze ku masikariye ndetse bahagaze ku murongo, ku ruhande rw'ibumoso umugabo uri imbere yambaye ikote risa n'ipantaro, ku ruhande rw'iburyo, umugabo uhagaze imbere yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare.

Abanyeshuri benshi bishimye bamwe muri bo bazamuye ibiganza ndetse bambaye impuzankano, inyuma yabo hari abandi banyeshuri, ku ruhande rw'iburyo hari ishuri, ku ruhande rw'ibumoso hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bicaye begeranye ndetse barangamiye imbere b'ingeri zitandukanye, umugore wicaye ku ruhande rw'ibumoso yambaye ishati y'umukara ndetse yambaye n'amadarubindi, afite agasatsi gake ndetse yambaye n'amaherena.

Abagore bane bicaranye ku ntebe, umugore uri ku ruhande rw'ibumoso ateze igitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari insina nyinshi ndetse n'ibiti birebire, imbere yabo hari umugabo wicaye ku ntebe wenyine, wambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'ipantaro.

Umugore n'umugabo bicaye, ndetse bicaye basizemo umwanya, umugore yicaye ku ruhande rw'ibumoso ndetse yambaye n'ikote ry'ubururu, afashe indangururamajwi mu kiganza cy'iburyo, ndetse umugabo yicaye ku ruhande rw'iburyo, yambaye agapfukamunwa, yambaye n'ikoti ry'umukara ndetse mo imbere yambayemo ishati y'amaboko maremare.

Umuganga uvura amenyo, wambaye imyenda y'akazi ndetse yambaye agapfukamunwa, yambaye n'amadarubindi, yambaye n'isaha ku kuboko ku ibumoso, ari gusuzuma umurwayi uryamye ku gitanda ndetse wambaye agapira karimo uburongo butambitse k'amaboko maremare.

Umugore uryamye ureba hejuru, ufite imisatsi y'umukara, ari gusuzumwa n'abaganga babiri b'abagabo mu kanwa, uri ku ruhande rw'ibumoso yambaye umwambaro w'umweru n'aho uri ku ruhande rw'iburyo yambaye umwambaro w'ubururu, bombi bambaye udupfukamunwa dusa.

Umusore uri guseka ufite amenyo y'umweru, ndetse afite n'ishinya itukura, afite n'ubwanwa, arogoshe, hejuru hari agasatsi gake, hasi yambaye umupira, nyuma arenzaho ishati.

Abakobwa babiri bicaye ndetse bafashe impapuro mu ntoki, umukobwa uri ku ruhande rw'ibumoso yambaye ikote ry'umutuku ndetse ari kwandika ku gipapuro afashe mu ntoki, naho uri ku ruhande rw'iburyo yambaye ikote ry'ubururu ndetse ari guseka, afite amenyo y'umweru.

Umusaza uhengetse umutwe ku ruhande rw'ibumoso, arikwandikisha ikaramu mu ikayi akoresheje akaboke k'iburyo ndetse akaboko ke k'ibumoso gafashe mu ruteranyirizo rw'ikayi, yambaye umupira w'amaboko maremare y'imbere yambamo ishati ifite ikola ndetse yambaye n'amadarubindi.

Umukecuru wicaye uri guseka, ibiganza bye bifashe mu gatuza ndetse bifatanye n'ibiganza by'umukobwa uri inyuma ye ndetse uri guseka, wambaye imyenda y'ubururu ndetse imbere yambariyemo agapira k'amaboko maremare.

Umugore uhagaze w'umuganga ufite imisatsi miremire y'umukara, inyuma ye hari umukobwa wicaye wambaye ishati y'umweru, ari gufasha umusaza wicaye ufite umusatsi w'imvi ndetse wambaye n'amadarubindi wambaye n'agapira k'amaboko magufi.

Umukecuru n'umusaza bahagaze bombi bambaye umwitero, umukecuru ahagaze ku ruhande rw'iburyo yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse kamufashe, umusaza ahagaze ku ruhande rw'ibumoso, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse yambaye n'ingofero y'urugara, inyuma yabo hari abantu benshi ndetse bicaye.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri wicaye ahese umugongo ku gitambaro gishashe mu busitani. Amaguru ye araringaniye ndetse aregeranye ibiganza bye bifashe ku maguru ndetse umutwe we uringaniye n'amavi, yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse yambaye n'ipantaro, ibirenge bye nta nkweto byambaye.

Umugore udafite umusatsi yambaye iherena ku gutwi kw'iburyo ari kureba ibinini afashe mu kaboko k'ibumoso ndetse akikiye ikirahure mu kaboko k'iburyo kituzuye kigeze muri kimwe cya kabiri ndetse yambaye umupira w'amaboko maremare.

Umusaza uri guseka wicaye mu kagare k'abafite ubumuga yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse yambaye n'amadarubindi inyuma ye harumuntu w'umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse uri guseka.

Umusaza wiciye mu kagare, ndetse ari kureba ku ruhande rw'iburyo, inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika w'umuganga, wambaye n'iyenda y'akazi, nyuma yabo hari abantu batandukanye, bicaye ku meza, ndetse bari gufungura.

Umusaza n'umukobwa begeranye, umusaza ari ku ruhande rw'iburyo ndetse ikiganza ke gifashe ku rutugu rw'umukobwa, umukobwa yambaye amadarubindi ndetse bombi bari guseka kandi bambaye n'amashati.

Abagore bizihiwe bari ku murongo, bambaye amajipo y'umukara ndetse bambaye n'imipira y'amaboko magufi y'umweru, umugore uri imbere yambaye ikanzu isa n'igitambaro ateze mu mutwe, hirya yabo hari irembo rigari ndetse rifunguye.

Umusaza wicaye, ahengetse umutwe ndetse n'ikiganza ke cy'akaboko k'ibumoso, yifashe mu gahanga, yubitse amaso, ndetse ikiganza ke cy'iburyo gifashe ku ikayi iri imbere ku meza hari n'andi makayi atandukanye.

Umugore n'umugabo bahetse abana bakuru mu mugongo ndetse bishimye bari guseka, ku ruhande rw'ibumoso hari umusaza wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ndetse arabegereye, no ku ruhande rw'imoso hari umugore wambaye ishati na we wegereye umugabo inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Umusaza wirabura yicaye ku ntebe, imbere ye hari amafunguro ari ku meza ndetse hari n'ikirahure cy'amazi. Inyuma ye hari umugabo umuhagaze hejuru ndetse ufashe ku ntebe, wambaye amarinete uri kumureba. Kuruhande rwe rw'ibumoso hicaye umuzungu.

Itsinda ry'abantu benshi bahagaze ndetse b'ingeri zitandukanye, umugore uri muri bo uri imbere ari guhereza umukecuru igikapu, abagore bari ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso ni abasilamukazi ndetse bombi baritandiye.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara miremire, yambaye agapira k'amaboko magufi, afashe ku mukecuru uri imbere ye uri guseka ku kaboko k'iburyo n'ibiganza bye byombi.

Umugore wicaye wambaye ishati y'umuhondo, afite imisatsi yizingazinze miremire, ndetse yambaye n'indorerwamo z'amaso, imbere ye hari ameza y'ibirahuri, ariho ibinini ndetse n'icupa, afatishije akaboko k'iburyo icupa ari gusuka ku kiganza cy'ibumoso.

Abantu batandatu bicaye bari guseka ndetse b'ingeri zitandukanye, ku ruhande rw'ibumoso hicaye umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse yambaye n'isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, ku ruhande rw'iburyo hicaye umugore ufite imisatsi miremire y'umukara ndetse yambaye n'agapira k'amaboko magufi.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, uryamye yirambuye, ndetse ashinze inkokora, afunze n'ibipfunsi, ibirenge bye nabyo biri hasi, yambaye isengeri ndetse ari kureba imbere, yambaye n'umukufi mu ijosi.

Abagore batatu begeranye bari guseka, uwo hagati afashe telefone mu kaboko k'iburyo, bari kureberamo. Yambaye umupira w'umuhondo, ndetse uri ku ruhande rw'iburyo afite umusatsi w'imvi, uri ku ruhande rw'ibumoso yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru.

Umugabo n'umugore bari gukora imyitozo ngororamubiri bombi bari guseka kandi bambaye isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse umugore afite umusatsi w'imvi umugabo yambaye agapira k'amaboko magufi n'umugore bambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi.

Umusaza uri gufashwa kwicazwa ku buriri n'abantu babiri, yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'amaboko maremare, ku ruhande rw'ibumoso afashwe n'umusore wambaye ishati y'umweru, ku ruhande rw'iburyo afashwe n'umukobwa wambaye agapira k'amaboko maremare k'umuhondo.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda y'akazi, ndetse afite n'imisatsi miremire, ari gufasha umusaza uri imbere ye, uri gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse no mu kiganza cye, afite icyuma gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu.

Umuganga w'umugabo wicaranye n'umugore ndetse bari guseka imitwe yabo iregeranye umuganga yicaye ku ruhande rw'ibumoso yambaye imyenda y'akazi naho umugore yicaye ku ruhande rw'iburyo yambaye agapira k'amaboko maremare ndetse afatiye iburyo n'inkoni.

Abagore batatu bari kugendera umujyo umwe, babiri bo ku ruhande rw'iburyo bambaye impuzankano, hirya yabo hari indabo, inyuma yabo hari abagabo babiri, na bo bari kugendera umujyo umwe.

Umusaza n'umukecuru bicaye bari gufata amafunguro ku meza, umusaza yicaye ku ru ruhande rw'ibumoso, yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'imbere yambayemo ishati. Umukecuru yicaye iruhande rw'iburyo yambaye agapira k'amaboko maremare ndetse bari kurebana baseka.

Abantu benshi bicaye bakoze uruziga munsi y'igiti kigandaye, bamwe bicaye ku ntebe za pulastike, abandi bicaye ku ntebe y'urubaho, abandi bicaye hasi ndetse hirya yabo hari ikibuga kinini kirimo n'ubusitani butandukanye.

Umusaza n'umukecuru bicaranye, ndetse bombi bafashe urupapuro rumwe bari kurebanaho. Imbere yabo ku meza hari ibipapuro bitandukanye, umusaza yicaye ku ruhande rw'iburyo yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse umukecuru yicaye ku ruhande rw'ibumoso inyuma yabo hari intebe zitandukanye.

Ingeri z'abantu batandukanye bicaye mu byatsi, bamwe bicaye ku ntebe za pulasitike, abandi bicaye hasi, imbere hari umugore uri kuboha ndetse uri kubareba na bo bari kumureba. Hagati hari umusaza wicaye w'umuzungu ndetse ateruye akana ku ivi rye ry'ibumoso, inyuma yabo hari ibiti bitandukanye ndetse byinshi.

Umusaza ubumbye iminwa, afite umusatsi w'imvi, yambaye ishati y'uturongo ifite n'ikora, akikiye umwana ufite igikinisho cy'abana mu kaboko k'iburyo, amazuru yabo arahura kandi akozanyijeho.

Umusaza uhagaze, ufashe ku byuma bimukikije, yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi ndetse yambaye n'ikabutura y'umukara, kuruhande rwe rw'ibumoso hahagaze umukobwa wambaye imyenda y'umukara ndetse umufashe ku rutugu, akamufata no ku kaboko.

Umusaza n'umugore bicaye ndetse bari kurebana, bombi bari gufungura, umusaza yicaye ku ruhande rw'ibumoso, yambaye ishati y'amaboko maremare, umugore yicaye ku ruhande rw'iburyo ndetse afite imisatsi y'umukara, bombi bambaye indorerwamo z'amaso.

Umukecuru wicaye ufashe ikirahuri cy'amazi mu kiganza cye cy'ibumoso yambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi ndetse afite n'umusatsi w'imvi, yambaye n'amaherena ku gutwi, yambaye amadarubindi ndetse ikiganza cye cy'iburyo gifashe ku munwa.

Umuganga n'umusaza bicaye, umuganga yicaye kuruhande rw'iburyo yambaye taburiya y'umweru y'amaboko maremare ndetse afashe igitabo ari kwerekera umusaza wicaye kuruhande rw'ibumoso wambaye ishati y'amaboko maremare ufite n'umusatsi urimo imvi

Umusaza n'umugabo bafatanye ku rutugu, umusaza ari ku ruhande rw'ibumoso yambaye ingofero y'urugara ndetse yambaye n'ishati y'amaboko maremare, umugabo ari ku ruhande rw'iburyo yambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi, inyuma ya hari ibiti byinshi kandi bikuze.

Umukecuru n'umusaza bicaye, umukecuru yicaye ku ruhande rw'ibumoso yambaye agapira gatukura, ndetse afite igipapuro mu biganza bye, ari kwerekeraho umusaza, imbere yaho ku meza hateretse ikirahure cy'amazi kituzuye, umusaza yicaye ku ruhande rw'iburyo, yambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi ndetse gafite n'ikora.

Umusaza wicaye ku gitanda, wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare ndetse yambaye n'ipantaro, ku ruhande rwe rw'ibumoso hari umukobwa umufashe ikiganza cy'ibumoso ndetse ufite imisatsi miremire, inyuma yabo hejuru hari inzitiramibu imanitse hejuru.

abantu batanu bahagararanye bari guseka kuruhande rw'ibumoso hari umukecuru wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse gafite ni kora kandi afite n'umusatsi w'imvi kuruhande rw'iburyo hari umusore wambaye agapira k'amaboko magufi k'ibara ry'ubururu.

Umugore n'umwana bicaye bombi bashikamirije amaboko ku meza, ndetse bari kureba ibiyariho, umugore yicaye ku ruhande rw'ibumoso yambaye agapira k'amaboko maremare k'umweru, umwana yicaye ku ruhande rw'iburyo yambaye agapira k'amaboko maremare ndetse karimo n'ubudodo bw'umukara.

Umusaza wicaye ahengamiye iruhande rw'ibumoso ndetse n'ikiganza cye cy'ibumoso gifashe ku gahanga, ikiganza cye cy'iburyo gifashe ikayi iri imbere ku meza, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse ifite n'ikora, imbere ye hari ameza ariho ibintu bitandukanye.

Umukecuru uhagaze mu kibuga afite indangururamajwi ndetse ayifatishije akaboko k'iburyo ayitunze ku munwa, yambaye umwitero ndetse n'agapira k'amaboko magufi kamufashe, inyuma hari ibiti bigandaye n'imodoka ndetse n'amazu.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe, umukecuru ahagaze ku ruhande rw'ibumoso yambaye agapira k'amaboko maremare karimo uburongo bw'umukara butambitse, ndetse yambaye n'iherena ku gutwi, ibiganza bye bifashe ku meza ari imbere yabo, naho umusaza ahagaze ku ruhande rw'iburyo ndetse yambaye nawe agapira k'umutuku k'amaboko maremare hamwe n'amadarubindi.

Umusaza munini wicaye mu ntebe, ndetse afashe n'inkoni mu kiganza cye cy'ibumoso, yambaye umupira w'amaboko maremare, ku ruhande rwe rw'iburyo hari umuganga w'umugore umufashe ku rutugu, ndetse bari kurebana baseka bombi.

Abantu benshi bishimye bari gusoroma icyayi. umugore uri kuruhande rw'iburyo yambaye imyenda isa ndetse, ateze n'igitambaro mu mutwe gisa n'imyenda yambaye. Naho uri kuruhande rw'iburyo, yambaye igitambaro cy'igitenge mu mutwe.

Abantu batatu begeranye bari guseka, ndetse bafunze n'amaso, ku ruhande rw'iburyo hari umwana wambaye agapira k'amaboko maremare ndetse gafunze n'ijosi, hagati hari umukobwa ufungiye ibisuko hejuru, ku ruhande rw'ibumoso hari umukecuru wambaye agapira k'amaboko maremare.

Abakecuru babiri bagendera ku nkoni, bari rwagati mu muhanda w'ibitaka, bombi bambaye imipira itukura ndetse y'amaboko magufi, umukecuru uri ku ruhande rw'ibumoso ateze igitambaro cy'umukara mu mutwe, inyuma yabo hari abantu benshi ndetse batandukanye.

Itsinda ry'abantu bahagaze ndetse b'ingeri zitandukanye, bamwe muri bo bambaye imipira y'umweru hejuru y'amaboko magufi ndetse na babiri muri bo bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufi, ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umugabo wambaye imyenda y'icyatsi ndetse inyuma yabo hari imodoka.

Amagambo y'umweru ari mu rurimi rw'Icyongereza yanditswe mu ibara ry'icyatsi imbere hari umubare gatatu wanditswe mu ibabara ry'umweru ndetse munsi y'amagambo hari umurongo uvunaguye wanditswe mu ibara ry'umweru imbere y'umurongo hari umutima wanditswe mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bicaye imbere y'abantu benshi, umugabo uri ku ruhande rw'ibumoso ni umuzungu ndetse arashaje yambaye amadarubindi naho uri ku ruhande rw'iburyo ni umwirabura yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati na karuvati, inyuma yabo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Nyakubahwa madamu Jeannette KAGAME, umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul KAGAME, arahagaze ndetse imbere ye hari indangururamajwi ebyiri, ku ruhande rwe rw'iburyo hari amagambo menshi yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umuzungu yambaye ipantaro, inkweto zifunze n'ikote by'umukara, ku ruhande rw'iburyo hari umukobwa wambaye ikanzu ngufi y'isengeri, n'inkweto zihagaze z'umukara, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza.

Umugore uhagaze uri gutanga imbwirwaruhame, yambaye amadarubindi ndetse ari guseka, afashe indangururamajwi mu ntoki, asutse ibisuko by'umukara ndetse yabifungiye inyuma, hirya ye hari ibindi bikoresho bitandukanye.

Abantu batatu bambaye impuzankano ndetse bahagaze imbere y'abantu bicaye mu ntebe za pulasitike bafashe ibikapu by'umweru mu ntoki ndetse bombi bambaye udupfukamunwa. Ku ruhande rw'iburyo hahagaze abandi bantu batatu bo hagati niwe wambaye impuzankano isa n'iy'abandi.

Umukecuru ugeze mu za bukuru afite ijisho rimwe ripfutse, kandi ripfukishije ipamba ry'umweru, irindi jisho ryo ku ruhande rw'ibumoso ntabwo ripfutse, ateze agatambaro k'umutuku.

Abagabo bahagaze bahindukiye, bari kureba ibyuma by'ikoranabuhanga, bombi bambaye amataburiya y'umweru ndetse y'amaboko maremare, bambaye n'udupfukamunwa, umugabo uri ku ruhande rw'iburyo, yambaye n'amadarubindi.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho, ifite n'ibirahure, ikikijwe n'ubusitani bugizwe n'ibiti n'indabo ndetse na pasiparume, hagiye harimo n'imihanda igenda ikatakata ndetse inanyuranamo.

Umuganga w'umugabo wambaye imyenda y'akazi, ufashe umwana wicaye utambaye hejuru, ndetse uri guseka, imbere yabo hari umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse wambaye n'ikabutura' y'umukara uteze n'igitambaro mu mutwe.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho ndetse isize amarangi atandukanye, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, imbere yayo haparitse imodoka nziza ndetse hari n'ubusitani, ifite irembo rigari ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari icyapa kiriho amagambo mu rurimi rw'lgifaransa.

Inyubako isize amarange atandukanye ndetse ifite n'amadirishya y'ibirahuri, imbere yayo hari indabo nziza ndetse hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'igifaransa.

Inyubako ndende yubatswe muburyo bugezweho ku mpera yayo hejuru hari icyapa cyanditse mu rurimi rw'igifaransa imbere yayo hari imodoka zihaparitse ndetse nziza ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso hari ibiti biyikikije.

Umugore wicaye ukikiye umwana wambaye ingofero mu mutwe, ndetse amufatiye no mu bishura by'umweru, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse wambaye n'agapfukamunwa, ari gufasha umwana ukikiwe n'umugore. ufite inwere ku mutwe.

Inyubako isize amarangi atandukanye, ndetse isakaje amabati atukura, ku ruhande rw'ibumoso hari ibiti bigandaye ndetse n'ibirebire, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'indabo, ndetse na pasiparume, hari agahanda gakase, ndetse hari n'ibyapa bibiri.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho, isize amarangi atandukanye ndetse ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure yanditseho amagambo agira ati "Inzu y'ababyeyi n'impinja" ndetse imbere yayo haparitse imodoka nziza.

Abaganga b'igitsina gore bahagaze ndetse bambaye impuzankano zisa, bambaye n'udupfukamunwa bombi, bafunze ibipfunsi inyuma yabo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ndetse atandukanye.

Ubusitani bugizwe n'indabo, ibiti ndetse na pasiparume buciyemo agahanda gakase ndetse hari n'inyubako isize amarange yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho ndetse igeretse rimwe, isize amarangi atandukanye, isakaje amabati y'ubururu, ku ruhande rw'ibumoso hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'indabo na pasiparume n'umuhanda uri imbere y'ubusitani utambitse.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku ibaraza hicaye abantu, ndetse inkingi zisize irange ry'umuhondo, kandi imbere y'inyubako hari jaride y'indabo.

Umuganga w'umugore uri gufasha umusore urwaye ndetse uryamye ku gitanda, yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi ndetse yambaye n'ingofero y'umukara hamwe n'agapfukamunwa k'umukara, muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse afite n'ibisuko by'umukara bifungiye inyuma.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, isize amarage atandukanye, ku ibaraza hari abantu batandukanye ndetse n'amatara ari kwaka, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'igiti ndetse n'indabo na pasiparume.

Itsinda ry'abantu rihagaze imbere y'inyubako ndende yanditseho amagambo ndetse impande zombi hateye irange ry'umuhondo kandi imbere y'inyubako hari na jaride y'indabo.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho isize amarange atandukanye ndetse ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, imbere yayo hari aho baparika ibinyabiziga ndetse haparitswe n'imodoka hari n'abagabo bahahagaze batatu.

Inyubako ndende isize amarangi y'umweru, yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umukara ndetse munsi yayo haparitsemo imodoka, kandi imbere y'inyubako hari jaride igizwe na pasiparume n'indabo.

Inyubako ya leta yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'indabo ndetse na pasiparume hirya yayo hari ibigega bifata amazi ndetse n'inyubako isakaje amabati atukura.

Inyubako iberamye ifite inzugi z'umweru ndetse hejuru yazo handitseho amagambo mu ibara ry'umukara mu rurimi rw'icyongereza, kandi imbere y'inyubako hari umuhanda wa kaburimbo.

Umugore uryamye yerekeje ku ruhande rw'iburyo ndetse araramye uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri ngufi ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara, asutse ibisuko birebire ndetse yabifungiye inyuma, ku ruhande rwe rw'iburyo hari amavaze atandukanye kandi arimo indabo.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri utambaye hejuru; yambaye ikabutura ngufi ndetse yambaye n'inkweto zifunze; yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso; yarambuye akaguru ke k'iburyo ndetse yarambuye n'akaboko ke k'iburyo; ikiganza cye gifashe ku mpera y'urukweto yambaye ku kaguru ke k'iburyo.

Umukobwa wicaye hasi ndetse uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ahese umugongo ndetse ibiganza bye bifashe ku kirenge, ntabwo yambaye inkweto, yambaye ipantaro imufashe ndetse yambaye n'isengeri.

Umugore wambaye ishati y'umweru ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara, yambaye n'ikarita mu izosi, ari gufasha umugabo wicaye ku gitanda uhinnye ivi ry'iburyo, ndetse wambaye n'agapira k'amaboko magufi n'ipantaro y'ikoboyi.

Umusore uri kugorora umubiri azamuye akaguru ke k'iburyo agatambitse ku cyuma ndetse akaboko ke k'iburyo gafashe ku nkweto akandi kaboko ke k'ibumoso gafashe mu manyungunyungu, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'amaboko magufi.

Umusore uhagaze yerekeye iruhande rw'iburyo, ari kunywa amazi mu icupa ribonerana ndetse yafatishije akaboko k'iburyo, akaboko k'ibumoso gafashe mu manyungunyungu ndetse yafunze n'igipfunsi, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse k'ubururu.

Umukobwa wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri kagufi ndetse yambaye n'ipantaro imufashe, ku ruhande rw'iburyo hari ibyuma ndetse hari n'icupa ry'amazi.

Umugore wicaye wambaye ijire, imbere yambariyemo agapira k'amaboko magufi ndetse afite ibisuko yambaye n'amaherena, imbere ye ku meza hari ibikoresho bitandukanye, ari gusuzuma umwana wicaye imbere ye uraramye uri kumureba.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi afatiye icupa ry'amazi hejuru ndetse ribonerana, afatishije ibiganza bye byombi, ari kwimenaho amazi mu maso, araramye, afunze amaso ndetse afunze n'umunwa we.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umweru kagufi, ndetse yambaye n'ipantaro y'ubururu imufashe, apfukamishije ivi ry'iburyo, ndetse ivi ry'ibumoso rihiniye imbere, yambaye n'ibirenge.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse ufite n'ikora, arambuye akaboko k'ibumoso ndetse, hagati yako harambitseho igitambaro cyiganjemo ibara ry'ubururu, afatishijeho ikiganza n'akaboko k'iburyo, ndetse n'inkokora ye ishikamirije ku itako.

Umugore uri kwinanura ndetse izuba riri kurasaho afite ibisuko by'ibara ry'umukara bifungishije akambano ndetse n'imbere ateze agatambaro kadafutse ibisuko bye.

Umusore wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri akaguruke k'iburyo kararambuye ndetse n'ibiganza byombi bifasheho, akaguru k'ibumoso gahinnye yambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi ndetse inyuma ye hari ibiti byinshi.

Umukobwa wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri arambije amaguru ndetse arafatanye amaboko ye ari hejuru y'amano ahese n'umugongo, yambaye isengeri isa n'ipantaro ndetse afite imisatsi miremire y'umukara iboshye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaguru ke k'ibumoso gahiniye imbere, ndetse n'igikirenge cye gikandagiye hasi, akaguru k'iburyo gapfukamye inyuma, ndetse amano niyo ari hasi, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara.

Umusore w'ibigango uhagaze uri kureba ku ruhande rw'ibumoso ndetse afite agasatsi gake ku mutwe ari kunywera mu icupa ry'amazi ribonerana ry'ubururu ndetse afatishije akaboko k'iburyo kandi yambaye n'isengeri.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri akaguru ke k'iburyo kari inyuma ndetse ak'ibumoso kari imbere ndetse karahinnye, azamuye amaboko, afite imisatsi miremire ndetse yambaye isengeri ngufiya, yambaye n'ipantaro imufashe y'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse w'umweru, inyuma arenzaho umwambaro w'abakoranabushake, afatiye iruhande rw'iburyo umusore wambaye isengeri ndetse yanditseho imibare ibihumbi bitanu magana atatu na bibiri.

Umukobwa uhagaze uri kunywa amazi yerekeye iruhande rw'iburyo, afatishije akaboko k'ibumoso, ndetse ari kunywera mu icupa ry'ubururu ribonerana, yambaye agasengeri ndetse afite umusatsi mwinshi ufungiye inyuma.

Umukobwa uhagaze yerekeye iruhande rw'iburyo, ari kunywa amazi mu icupa ry'umweru ndetse rifite umuvufuniko w'ubururu agafatishije akaboko k'iburyo ndetse afite agatambaro k'umweru ku rutugu kandi yambaye n'isengeri.

Umukobwa uhagaze uri gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuweye akaguru ke k'iburyo agafatira inyuma ndetse karahinnye, afashe ku rukweto n'akaboko k'iburyo akaboko k'ibumoso kari hirya ku ruhande, yambaye isengeri ngufi ndetse yambaye n'ipantaro imufashe n'amasogisi imbere y'inkweto.

Umugabo wicaye hasi mu muhanda, yambaye isengeri y'umukara, ndetse afashe icupa ry'amazi ribonerana rya parasitike, mu kaboko ke k'iburyo. Akaboko ke k'ibumoso, gafashe ku ivi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, arasutamye ndetse ari kureba ku ruhande rw'iburyo, yambaye ipantaro, agapira k'amaboko magufi ndetse n'inkweto zifunze, ku ruhande rw'iburyo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu ndetse n'inkweto zifunze.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse yambaye n'agapfukamunwa, ari gusuzuma umwana uteruwe n'umugore, inyuma yabo hari abantu babiri, umugabo ahagaze ku ruhande rw'ibumoso ndetse yambaye agapfukamunwa gasa n'ak'umuganga, naho umugore ahagaze ku ruhande rw'iburyo yambaye agapfukamunwa k'umukara.

Abana benshi bizihiwe ndetse bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari hagati mu muhanda ndetse umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo hari ibiti bitandukanye, umwana uri hagati azamuye akaboko k'iburyo ndetse yafunze igipfunsi.

Umusore upfukamishije ivi ry'iburyo, ateruye ibyuma bya siporo mu maboko yombi, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'amaboko magufi kandi yambaye n'inkweto zifunze n'amasogisi y'umweru, ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ipantaro n'inkweto zifunze.

Umuganga wicaye, wambaye imyenda y'akazi ndetse ari kwambara agapfukawa, yambaye ga z'ubururu mu ntoki, Imbere ye hari mudasobwa iteretse ku meza, hino yayo hari amakayi ndetse n'ikaramu n'ikayi na byo biteretse ku meza.

Umusore n'umukobwa bari kunywa amazi mu icupa rya parasitike ribonerana, bombi begamanyeho, umukobwa afite imisatsi miremire ndetse n'umuhungu afite umusatsi muke kandi yambaye umupira w'amaboko magufi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri arunamye, ndetse afatishije ibiganza bye byombi ku ivi ry'ibumoso, yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, kandi yambaye ikabutura y'umukara igeze hejuru y'amavi.

Abantu babiri, umwe araryamye mugenzi we ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, amufashe akaguru ke k'ibumoso ndetse karahinnye, akaguru ke k'iburyo kararambuye, mugenzi we yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse bambaye udupira tw'ubururu tw'amaboko magufi.

Umusore uri kunywa amazi mu icupa ribonerana afatishije akaboko k'iburyo ndetse afite ubwanwa yambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi kandi yambaye n'umukufi mu ijosi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri apfukamye, yambaye isengeri ndetse yambaye n'ikabutura yambaye ibirenge amavi ye yombi ari hasi, ndetse yarambuye amaboko ye imbere arahinnye ndetse afungiye umusatsi we inyuma.

Umusore w'ibigango uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaguru ke k'iburyo gahiniye imbere ndetse n'ibiganza bye byombi bifashe ku ivi, akaguru ke k'ibumoso kari inyuma yambaye isengeri y'umukara ndetse n'inkweto zifunze n'amasogisi y'umweru n'ipantaro.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi, afite drede ku mutwe, yambaye ikabutura ngufi ndetse mo imbere yambariyemo kora, yambaye inkweto z'umukara zifunze ndetse yambaye n'amasogisi y'umweru, inyuma ye hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'umukara ndetse yambaye n'ikabutura, yambaye inkweto zifunze hose ndetse yambaye n'isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko ye ndetse ararambuye, yambaye isengeri ngufi y'umweru ndetse yambaye n'ipantaro y'ubururu imufashe, akaguru ke k'ibumoso kari imbere ndetse karahinye, akaguru ke k'iburyo kari inyuma ndetse gashinze ivi hasi.

Umukobwa uri kunywa amazi areba ku ruhande rw'iburyo. Ari kunywera mu icupa ry'umweru ribonerana, ndetse rifite umufuniko w'ubururu. Afatishije ikiganza k'iburyo ndetse yambaye isengeri, yambaye n'agatambaro k'umweru mu ijosi.

Umusore uhagaze uraramye uri kunywa amazi mu icupa ry'umweru ribonerana kumpera hasa ubururu, yambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'iburyo ndetse ari kunywesha n'akabokoko k'iburyo, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru ndetse yambaye na kuteri mu matwi.

Umukobwa uhagaze uri kunywera amazi mu icupa rya parasitike ribonerana, ndetse afatishije akaboko k'iburyo, yambaye agapira k'amaboko magufi gatukura ndetse afite imisatsi myinshi miremire y'umukara.

Icupa ry'amavuta rirerire ryanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, ripfundikije umufuniko mutoya, ririho ifoto y'igikakarubamba ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari icupa rigufi, rifite umufuniko w'umweru, ku ruhande rw'iburyo hari amagambo y'umweru yanditse mu ibara ry'umutuku, ndetse no hejuru hari amagambo y'umweru yanditse mu ibara ry'umukara.

Umurima w'inanasi ndetse ku ruhande rw'iburyo hari igiti kigandaye, munsi yacyo hari abantu benshi n'imashini ndetse no hirya y'igiti hari imashini n'abandi bantu.